Umugabo uri gutera umuti ibihingwa biri mu murima. Yambaye bote, ipantaro iri mu ibara ry'ubururu ndetse ahetse ipompo ifite amabara atandukanye, yiganjemo ibara ry'umweru. Yambaye ishati ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, n'ingofero ahetse imashini itera umuti, gutera umuti ibihingwa ni byiza kubera ko wihica udukoko twangiriza ibihingwa twahinze.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ikabutura ndetse n'isengeri bisa, ahetse ipompo mu ntoki arimo arafuhira amashu. Uyu mugabo yambaye bote z'umukara.

Ibihingwa bitandukanye, birimo imishigeriro, imbere yabyo hari umugabo wambaye imyenda irimo ibara ry'umuhondo ndetse na ga zirimo ibara ry'umukara kandi yambaye masike, ahetse ipombo ari guterare umuti ibihingwa.

Umusore urimo araseka yambaye ishati ijya icyatsi, inyuma ye hari icyuzi cy'amafi, aha ni aho amafi yororerwa ndetse inyuma ye hari ubuhinzi.

Iki cyuzi kirimo amazi menshi yanduye kirimo indowani yifashishwa mu kuroba irimo amafi menshi, igikorwa cy'uburobyi ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko gituma abantu babaho neza mu buzima bufite amafaranga ndetse bufite n'ibyo kurya bihagije.

Umurima w'icyayi. Guhinga icyayi ni byiza abahinzi bacyo baterare imbere. Imbere y'uwo murima w'icyatsi hari ishyamba, inyuma yayo hari inzu.

Ahantu hari ibyatsi, hari ababyeyi bari gutunganya umusaruro uturuka ku bihingwa, babiri muri bo barunamye bari gukoresha ibikoresho biri mu ibara ry'umuhondo, hirya yabo hari umubyeyi usutamye wambaye ijipo iririmo ibara ry'umutuku ndetse yambaye igitenge mu mutwe.

Igishanga giteyemo muceri, ubuhinzi ni bwizaza butuma abahinzi batera imbere, bakabaho mu buzima bwiza kubera ko baba bajyanye ibicuruzwa byabo ku isoko, n'abana babo bakiga.

Umugore wambaye agapira ka oranje karimo amabara y'umukara, arimo aratunganya ikawa yiteze ko nyuma yiminsi myinshi azasarura agahabwa amafaranga menshi.

Imbuga nini irimo ibyatsi, irimo abantu babiri bari gutunganya umusaruro ukomoka ku gihingwa cy'ikawa, harimo umugabo wambaye igisarubeti, agapira k'umweru ndetse afashe cyane mu ntoki, ku ruhande rwe hari umugore wambaye ingofero iri mu ibara ry'umutuku ndetse afite agafuka mu ntoki kari mu ibara ry'umuhondo.

Umubyeyi wikoreye ibase irimo, igihingwa cy'ibigori, arimo arabika izuba. Imbere ye hari, aho ubwanikiro, buri. Ntamu bwa kijyambere.

Ni byiza ko duhinga ibihingwa ngandurarugo, iyi ni ikawa irimo iratunganywa n'abaturage barangije kumenya ubwiza bwayo, barimo barakuramo itameze neza.

Icyumba kirimo urumuri kibikwamo imiti itandukanye kirimo utujerekani turi mu ibara ry'umweru iruhande rwatwo, hari igikoresho kiririmo ibara ry'umuhondo cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ni byiza kubika imiti neza kuko idafashwe neza yakwangiriza abantu.

Ibiribwa bipfunyitse mu mifuka, bigaburirwa inka, bituma zikura neza, zigatanga umusaruro ndetse n'umukamo.

Umusozi munini uriho imbaga nyamwinshi y'abantu bari gukora imirimo, harimo umugabo wunamye wambaye ipantaro y'ikoboyi, imbere ye hari umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo ndetse imbere gato hari umwana muto wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ikabutura.

Umusore ahagaze mu masaka arimo aritegereza ukuntu aya masaka arimo aterera, ni meza asa neza ikirere kirakeye ariko nanone imvura igiye kugwa.

Umugabo urimo arasunika igare inyuma ye ye hari undi mugabo ufite umuhoro mu ntoki, uyu mugabo usunika igare inyuma ku igare hari igitiyo ndetse n'ibiti.

Ubworozi bw'inka mu Rwanda bugenda butera imbere aho gahunda ya gira inka munyarwanda yaje, iyi ni inka iri mu ikiraro umugabo uyoroye arimo aritegereza inka ye uko imeze.

Igishanga kigari biragaragara ko kirimo abahinzi batandukanye ndetse barimo barahinga ibihingwa bitandukanye, ni umugabo n'umugore hagati yabo hari akana kakiri gato.

Umugabo arimo arahira ubwatsi afite umupanga mu ntoki, inyuma ye hari ibigori byiza bitoshye gusa biracyari bito ntabwo biragera igihe cyo kwera. Uyu mugabo yambaye agapira.

Umurima munini utewemo ibigori imbere yawo hari abantu benshi bari gukora imirimo itandukanye, hari umugabo wambaye ingofero, umupira urimo amabara abiri umutuku ndetse n'umweru, afashe ibase iri mu ibara ry'umutuku, imbere ye hari umugabo wunamye wambaye ishati y'igitenge irimo amabara atandukanye higanjemo iry'ubururu.

Umurima munini, uteyemo ibigori urimo umubyeyi, uri kubagara, wambaye ijipo iri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye igitenge kandi yambeye ishapule, ikindi kandi akenyeye igitenge mu mutwe, inyuma ye hari ishyamba rigizwe n'ibiti bitandukanye.

Umugore uri guhinga, akeneye umupira w'umukara, afite isuka, inyuma ye hari imigozi y'ibijumba, ibumoso bwe hari insina, imbere ye hari igikenyeri arimo guhinga.

Ingurube inyuma yazo hari abantu batandukanyekanya abagore n'abagabo ndetse n'abana, inyuma yabo hari igiti ndetse n'amazu, ubworozi ni bwiza.

Umurima w'ibisheke bikiri bito bitarera, iruhande rwawo hari inzu isakajwe amabati y'umutuku, biragaragara ko ari mu giturage.

Umuma w'ibigori, ubuhinzi bw'ibigori ni bwizaza, butuma abantu babukora batera imbere, iyo babuhinze neza, bagira umusaruro mwinshi bagasagurira n'amasoko atandukanye.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa byo gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo etajeri irimo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibiryo biri mu macupa atandukanye ndetse n'ibinyobwa.

Umuhanda muremure w'igitaka, ukikijwe n'imirima myinshi irimo ibihingwa bitandukanye. Harimo umukecuru wambaye ijipo ndetse yiteze igitambaro mu mutwe. Iruhande rwe hari abana babiri bato ndetse inyuma yabo hari umugore uri kuzamuka wambaye ibitenge.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye, higanjemo insina ziriho ibitoki, ndetse zifite amakoma maremare. Hirya hari umusozi muremure, uriho ishyamba rigizwe n'ibiti binini, bifite amashami maremare ndetse n'amababi ari mu ibara ry'icyatsi.

Ibiribwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, harimo ibigori, hakabamo karoti, insenda, imineke n'ibindi.

Igiti cy'isombe giteye ahantu hari ibyatsi, imbere yacyo hari ibiti birebire ndetse n'inzu nini isizwe irangi ry'umweru yubakishijwe amabati ari mu ibara ry'umweru, iruhande gato hari umurima uhinze urimo ibihingwa bitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti birebirwe, amasamba ni meza atanga umwuka mwiza agakurura nimvura agatuma abahinzi babona imvura akarwanya ubutayu ndetse n'isuri.

Umurima munini urimo ibihingwa bitoshye, imbere yawo hari amazu meza asakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku, inyuma gato hari umusozi munini uriho ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi, ni byiza gufata ibidukikije neza kuko bidufasha gukurura umwuka duhumeka.

Ishyamba rinini ririmo ibiti byinshi ndetse iri turyita ishyamba ry'inzitane, rikurura imvura ndetse ni ibihaha by'igihugu kuko bituma duhumeka umwuka mwiza.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, yambaye agapfukamunwa n'isaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki, arimo aravuga ku bijyanye n'amashyamba.

Igiti kigizwe n'amababi menshi ndetse n'imbuto za avoka ziri mu ibara ry'icyatsi, ni ngombwa kurya avoka kuko bituma tugira uruhu rwiza kandi tukagira ubuzima bwiza butagira indwara kuko urubuto rwa avoka ni rumwe mu mbuto z'ingirakamaro.

Ubuhinzi bw'amatunda buri gutera imbere mu gihugu cyacu, uyu ni umugabo uhagaze imbere y'uruzitiro rw'amatunda arimo arerekana uko amatunda ameze, yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru.

Ubuhinzi bw'imboga bugenda butera imbere mu gihugu cyacu aha harimo imyanya, ibihaza ndetse n'indabo.

Ni umumama wambaye ishati y'umuhondo n'igitambara cy'umweru ari gusarura ibinyomoro, ubuhinzi bw'imbuto ni bwiza buteza imbere abantu babukora.

Ibiganza bifite inyanya mu ntoki, izi nyanya nyinshi ziteretse mu gitebo. Hari umugore ufite inoti y'ibihumbi bibiri mu ntoki ndetse n'andi mafaranga biragaragara ko arimo aragura izi nyanya.

Imodoka nziza iparitse mu mbuga, imbere yayo hari igiti cy'imyembe ndetse n'indabo zikaswe neza, hari kandi igipangu cyubakishijwe amabati, ni byiza kurya imbuto higanjemo imyembe kuko bidufasha kwirinda indwara.

Ururabo iyo rwayanze ruzana imbuto, izo mbuto zikarufasha kororoka. Aha ni muri jaride ururabo rweze imbuto zimeze nk'aho ziribwa.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, ryiganjemo imboga, ririmo inoryi, pavuro, inyanya ndetse n'amashu ni ngombwa kurya imboga mu buzima bwa muntu kuko bituma tubaho neza kandi tukagira ubuzima bwiza butagira indwara.

Akarima k'igikoni ,kazwiho kuzamura imibereho myiza, kaba gateyemo imbuto ndetse n'imboga, zifashishwa mu kuba zafasha abatuye muri urwo rugo.

Umurima munini urimo igikoresho kiri kuhira ibihingwa, iruhande rwawo hateye ibiti bya avoka igizwe n'amashami maremare, hirya gato hari umurima uteyemo ibigori ndetse n'inzu isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Ibihingwa biteye ku murongo biri mu gishanga, iruhande rwabyo hari uduhombo twabigenewe dushinzwe kubyuhira, duteyeye ku murongo tugenda tubivomerera iyo izuba rivuye.

Umurima munini ugizwe n'ibihingwa bitandukanye. Urimo amatiyo ari gucucira amazi. Hirya gato hari igiti kinini gifite amashami maremare. Imbere cyane hari umusozi muremure ugizwe n'ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore bari mu murima bari guhinga, inyuma yabo hari urutoki, bari kuhira ibihingwa byabo kugira bitazicwa n'izuba bikanamba.

Umusaza wambaye ingofero mu mutwe, yambaye bote, afite umupira w'amazi mu ntoki, arimo arafuhira imyaka. Ni mugihe cyo mu zuba.

Umumama wambaye ikanzu y'ubururu ahagaze mu murima w'amashu, inyuma ye hari umurasire w'izuba ari kuhira amashu yahinze. Kuhira igihingwa ni byiza, gituma kiticwa n'izuba, ukazasarura ibintu byinshi kandi byiza.

Mu buhinzi bwo mu Rwanda bugenda butera imbere, dore ko utakigendera ku bihe by'izuba cyangwa se by'imvura. Igihe cyose umuhinzi arahinga ndetse agafuhira n'imyaka ye, bidasabye gutegereza imvura.

Aha ni sitasiyo hifashishwa mu gufuhira cyangwa se kuvamerera imyaka mu gihe cyo mu zuba cyangwa se mu mpeshyi.

Umubyeyi ufite indobo arimo aravomerera amashu. Yipfutse igitambaro k'igitenge ndetse iyi ndobo iri mu ibara ry'umutuku.

Igishanga kinini cyane kigizwe n'ibihingwa birimo ibara ry'icyatsi gikikijwe n'imisozi itandukanye igizwe n'ibiti ndetse iriho amazu atuwemo n'abantu. Ni byiza gufata ibiti neza kuko ni bimwe mu bidukikije.

Inzu isakajwe amategura, imbere hari umucaca, inyuma yayo hazengurukijwe urutoki, inyuma kure cyane hari umusozi n'amashyamba.

Imisozi myiza, iciyeho amaterasi y'indinganire, ibi bituma ubutaka butagenda cyangwa se ngo inkangu zitware, amazu.

Ikiyaga kirimo ubwato bubiri, inyuma yacyo hari umusozi uteyeho ishyamba, ikiyaga ni kiza kubera ko hakorera hakorerwamo uburobyi bw'amafi.

Igihe imvura igiye kugwa, umuntu wese arabibona, igicu gitangira kwijima ndetse ahantu hagahinduka. Aha ni umusozi uzwi mu Rwanda cyangwa se ikirunga cya Muhabura.

Ishyo ry'inka ziri mu rwuri zirimo zirarisha, harimo imbyeyi ndetse n'ibimasa, imbere yazo hari ikiganza kirimo kiratunga urutoki imwe muri zo.

Akayira gato kaseti ijwe ibyuma biri mu ibara ry'umukara, karimo inka zitandukanye zifite amahembe maremare, hirya yazo hari abagabo bane, umwe muri bo yambaye itaburiya irimo ibara ry'umweru, iruhande rwe hari umugabo wambaye igisarubeti kirimo ibara ry'ubururu.

Inzu y'ubworozi yororewemo ingurube ifite n'abana bayo. Ubworozi ni bwiza buteza imbere abantu borora kubera ko bajyana ku masoko ibyo boroye bikabateza imbere.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi imbere yacyo hari akayira gato kazitijwe ibyuma bisize irangi ry'umukara ndetse kari kunyuramo inka nini zifite amahembe maremare, iruhande rwazo hari abaveterineri batandukanye higanjemo abambaye impuzankano igizwe n'amataburiya ari mu ibara ry'umweru.

Ubworozi bw'inkwavu buteye imbere, aha harimo inkwavu zigenda zitandukanye ndetse zororerwa ahantu hatandukanye, hari abantu bahagaze iruhande.

Inkoko ni ubworozi bwiza bugiye gutera imbere mu Gihugu cyacu, hariho ibyo kuzigaburira ndetse ziri ahantu heza hafite isuku, biragaragara ko ari byiza.

Ishyo ry'inka riri mu rwuri, izi nka ziri kurisha, harimo ibimasa ndetse n'inka z'inyana, zihagaze mu bwatsi butoshye ni ku kazuba.

Ahantu hari inka nyinshi zirimo ibara ry'umutuku, zifite amahembe maremare, imbere yazo hari abantu batandukanye, harimo umugabo wambaye igisarubeti kiriri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero y'umweru ndetse na bote ziri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari umusore uri gofotora wambaye isarubeti iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini cyororerwamo inkoko cyubakishijwe ibyuma bitandukanye, ndetse kimo urumuri kirimo inkoko nyinshi ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kugaburira inkoko. Igikorwa cy'ubworozi ni ingirakamaro kuko gituma tugira amafaranga.

Inzu nini yororerwamo amatungo yubakishijwe imbaho, irimo amahene atandukanye higanjemo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Harimo umugabo ufite inkoni mu ntoki, ndetse wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Icyumba kifashishwa mu korora inkoko cyubakishijwe imbaho kirimo ibikoresho bitandukanye higanjemo ibyifashishwa mu kugabura inkoko biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hirya yabyo hari inkoko zitandukanye ziri kurya.

Ubworozi bw'ingurube buri mu bworozi bwororoka cyane, aha hari ingurube eshatu z'ibibwana, ziri aho ziba hapavomye na sima ndetse hari n'ibyo kuryamaho.

Ikiraro bororeramo ingurube harimo ingurube, ubworozi bw'ingurube ni bwiza butuma abantu babukora batera imbere, kubera ko bagemurira amahoteli atandukanye, bakiteza imbere bagateza imbere igihugu.

Umurima munini urimo ibyatsi bitandukanye, urimo umugabo wambaye ishati, ipantaro y'umukara ndetse ari gufotora, imbere gato hari inka nyinshi ziganjemo iziri mu ibara ry'umukara ndetse n'ibiti bitandukanye.

Inzu y'ubworozi irimo inka inyuma yayo hari umuryango w'umutuku. Ubworozi bw'inka ni bwiza butanga ifumbire yo gukoresha mu murima n'amata ndetse n'inyama.

Inzu baroramo inkoko, harimo ibyo inkoko zinyweramo amazi bifite ibara ry'umweru, umutuku, ubworozi bw'inkoko ni bwiza buteza imbere ababukora, kubera ko bagemurira amasoko ndetse n'amahoteli.

Ubworozi bw'inkoko buteye imbere, aho inkoko zororerwa. Hari n'aho zitera amagi. Ni mu nzu nini cyane, bigaragara ko ifite isuku.

Imifuka iteretse ahantu hamwe y'amabara y'umweru, imbere yayo hahagaze umugore wambaye agapira k'umukara, iyi mifuka biragaragara ko irimo imbuto zo kuribwa.

Akayira gato kazizitijwe ibyuma karimo inka zitandukanye. Higanjemo iziri mu ibara ry'umutuku ndetse zifite amahembe maremare. Imbere yazo hari umugabo wambaye umupira w'umweru, inyuma ye hari umugabo wambaye isarubeti iri mu ibara ry'ubururu.

Ikiraro k'inka kizitirwa ibyuma kirimo inka iririmo ibara ry'umutuku, inyuma yayo hari umuganga w'inka wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, iruhande rwe hari umugabo wambaye isarubeti iri mu ibara ry'ubururu, hirya gato hari inka nini ifite amahembe maremare.

Abaganga batatu b'amatungo, bambaye ibitaburiya by'umweru, imbere yabo hari imeza n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kuvura amatungo, hejuru hari ibara ry'umweru.

Umuvuzi w'amatungo ari kudoda inka, inyuma ye hari abagabo batatu bari kumufasha, inyuma y'abo bagabo hari ibyatsi, uyu mugabouri kudoda inka yambaye ipantaro y'umutuku na bote z'umukara.

Inka z'inyambo zifite amahembe maremare asongoye ziririmo zirarisha, ni inka zidakunze kuba ahantu hose.

Umugabo uri kubaga wambaye amarinete n'ishati y'umweru, ga ziri mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, bote z'umweru aho bahagaze hari amaraso menshi ndetse n'inyama.

Akayira kazitije ibyuma karimo inka iri mu ibara ry'umutuku. Ifite amahembe manini. Imbere yayo hari umugabo wambaye bote. Inyuma yayo hari abantu batatu, higanjemo abambaye impuzankano igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Inka ebyiri ziri mu kiraro, imwe ni iy'umweru indi ni iy'umukara. Zirimo zirarisha ubwatsi gusa iki kiraro ntabwo giteye imbere.

Kwa muganga cyangwa se kwa veterineri ahavurirwa amatungo agiye atandukanye, habamo serivisi zigiye zitandukanye kandi zose zikorwa hifashishijwe ibikoresho bitandukanye.

Ikiraro kirimo umuntu uvura amatongo, yambaye itaburiya y'umweru, inyuma ye hariyo umuntu wambaye igisarurwati cy'ubururu, ku ruhande rwabo hari n'undi muntu wambaye agapira k'icyatsi.

Imisambi ni inyoni nziza ziteye ubwuzu ariko zigenda ziba nkeya mu gihugu cyacu, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kuzibungabunga kugira ngo izi nyoni zitaza gucika.

Ikiyaga kigizwe n'amazi menshi kirimo inyamaswa ebyiri z'inkazi zasamye ndetse zifite ubwoya bwinshi, ni ngombwa gufata ibiyaga neza kuko ni indiri y'inyamaswa zitandukanye kandi bigira akamaro ku buzima bwa muntu.